Abanyeshuri bari kwiga mu ishuri mwarimu ari kubigisha bakurikiye, mbese basa n'abateze amatwi.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga mwarimu arimo kubigisha ndetse n'intebe intebe nshyashya mwarimu ari kubabaza bamwebari gusubiza ndetse n'ikibaho inyuma yaho inyuma yab'anyeshuri.